Ubworozi bw'inkoko ni imwe mu nkingi ikomeye ifatiye runini igihugu cyacu ndetse n'iterambere muri rusange. Ntifasha igihugu gusa ahubwo bifasha n'aborozi aho ibateza imbere kandi ikabongerera ubushobozi ku bijyanye n'imibereho myiza.